Umugabo wambaye ikote, ishati y'umweru, ipantaro y'umukara watebeje ahagaze ahantu hari amapave ari kumwe n'undi mugabo ushinzwe umutekano.

Abaganga babiri b'abagabo bafite agakoresho kifashishwa bavana umurwayi hamwe bamujyana ahandi, kitwa bulankare aho bari mu mbuga ikoteye na sima.

Icyumba giteraniyemo abantu bakora muri kuruwaruje aho buri wese yambaye ijiri y'umutuku imbere yabo hakaba hateretse ameza ariho amazi.

Imodoka izwi nk'imbangukiragutabara, iparitse hanze y'ibitaro ahari kizimyamwoto yifashishwa mu kuzimya ahabaye inkongi y'umuriro.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo irangi ry'umweru n'ubururu, hari ibitanda biryamyeho abarwayi biri mu bucucike, kandi hari n'abarwaza baryamye hasi.

Inzu isize amarangi y'umuhondo, ku nzugi n'amadirishya hariho iry'icyatsi, mu mbuga hari gutambukamo umugabo wambaye ibyenda by'umweru bimufubitse ahantu hose, ahetse icyuma.

Ibitaro byo kwa muganga bifite inyubako zigiye zitandukanye zikorerwamo ibikorwa byinshi, hanze hari kizimyamwoto yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro ndetse n'imbangukiragutabara.

Icyumba cyo kwa muganga gisize irangi ry'umuhondo, ku gitanda hariho umurwayi, ufite inda iri mu mezi umunani, aho hari umuganga washyizeho akantu ari kumva uko umwana uri mu nda, ameze.

Icyumba kigari, cyitaruye, kirimo amarangi y'umweru n'amatara abonesha neza, hicayemo abantu b'ingeri zitandukanye, buri wese ku ntebe ye y'umukara n'ameza imbere ariho amazi.

Imodoka iri mu muhanda, akaba ari izwi nk'imbangukiragutabara, itwawe n'umushoferi, aho agenda ageza abarwayi barembye ku baganga bari bubiteho.

Ikibuga kigali hateyemo intebe, zimwe zicayeho abarwayi, aho hari abaganga bari kumutera inshinge, yifashishije udupfukantoki kugira ngo atamutera indwara.

Icyumba kirimo abantu b'ingeri zose bambaye impuzankano zigiye zisa, hari umugabo umwe uhagaze uri kubagezaho imbwirwaruhame, harimo kandi ameza maremare ateretseho uducupa tw'amazi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye nk'amatara, utubati, ibitanda, amashuka, supanete n'ibindi. Haryamyeho abarwayi.

Icyumba cyateraniyemo abantu benshi bambaye amajire y'umutuku yose asa yanditseho umusaraba bivuga ko bari muri Croix Rouge ifasha abahuye n'ibibazo bitandukanye.

Ibitaro by'Akarere ka Nyagatare, aho byubatse mu buryo bugezweho, hanze hari imodoka y'imbangukiragutabara, yifashishwa mu kujyana, abarwayi barembye.

Mu cyumba cyo kwa muganga hari ibitanda biryamyeho abarwayi, aho umwe bamuziritse ikintu ku kaboko, aho bamuteye urushinge kandi muganga akaba agikomeje kumwitaho.

Inzu yo mu giturage iriho karabasansi, amadirishya asize irangi rya kaki, hanze hakoteye akabaraza gatoya. Mu mbuga harimo amabuye menshi ndetse n'akajerekani.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bibiri bishashe neza, buri kimwe kiriho umwana urwaye ndetse n'umurwaza, hari abantu benshi baje kubasura.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byose ku gitanda haryamyeho umurwayi uri gufashwa n'umuganga umwe abandi babiri bahagaze iruhande rwe kugira ngo bahite bamwunganira.

Ni muri situdiyo ya nyagatare aho RBA ifite ishami, hari ameza ariho indangururamajwi ndetse n'ibindi byuma byifashishwa mu itangazamakuru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, higanjemo ibitanda, supanete, ameza, terimusi ndetse n'imiti ihabwa abarwayi, abarembye ndetse n'abari koroherwa.

Ivuriro ryubakishije amatafari ahiye rifite amadirishya asize irange ry'umweru, hicaye abagore batatu, babiri bazanye abana n'undi waje kwivuza.

Imodoka yo mu bwoko bw'imbangukiragutabara itwara abarwayi ibakuye ku kigo nderabuzima kimwe ibajyanye ku kindi, imbere yayo hari abagabo babiri bari kubafatira ifoto y'urwibutso.

Icyumba cyateraniyemo abanyacyubahiro batandukanye, aho hari ameza ateretseho umugozi wa mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi, hirya kandi hari umugabo wambaye amadarubindi, ufite n'impapuro mu ntoki.

Kwa muganga aho umuntu agana arwaye agataha ari muzima, hari umuganga wambaye imyenda y'akazi ndetse n'umurwayi waje kwivuza.

Icyumba kiza kirimo irangi ry'umuhondo, hari ameza ateretseho mudasobwa yaka ndetse n'imashini ifotora impapuro, aho byifashishwa muri serivisi zitandukanye.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe ahari inyubako zigiye zitandukanye hakaba hivurizwa abantu benshi, hari kandi umuhanda wa kaburimbo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, hari igitanda kiryamyeho umurwayi ndetse n'abaganga iruhande rwe bafite ikayi bari gusomamo.

Ku bitaro byo kwa muganga hari inzu zubakishije amatafari ahiye, hanze hari abantu benshi baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, ndetse hari n'abaganga.

Icyumba cyo kwa muganga kicayemo abagore babiri bafite abana batoya b'impinja ndetse n'umugabo wambaye ikote ry'umutuku n'ipantaro y'ikaki. Inyuma yabo hari ibitabo byinshi.

Inzu yo kwa muganga, aho ari mu isuzumiro, hanze hicaye abagore harimo uhetse umwana umwe, abandi bagiye bafite ibipapuro, bari bwinjirane.

Imbuga irimo amapave ameze neza, hahagazemo abagabo batanu ndetse n'umugore umwe, bari gufata ifoto y'urwibutso, imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye, kandi bakaba bishimye.

Icyumba cyo kwa muganga gisize irange ry'mweru harimo ibitanda bigiye bitandukanye bishashe neza hicayemo umugore uteruye umwana umaze kuvuka.

Abaforomo batatu, abagore babiri n'umugabo umwe, bari mu cyumba cyo kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye, aho hari n'agatanda kari mu ibara ry'umukara.

Ku bitaro by'akarere ka Nyagatare hari urubyiruko rwinshi rufashe bandarore, yanditseho kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu ibitaro bya Nyagatare, aho bererekeje ku rwibutso.

Abagabo bane n'umugore umwe bahagaze ahantu hari amapave yashaje ndetse hari n'imbangukiragutabara, yifashishwa kwa muganga ngo ijyane abarwayi barembye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi babiri ndetse n'umuganga, ku meza hateretseho ibicupa byinshi birimo ibinini ndetse n'imiti ihabwa abana inyobwa.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe, ibitanda biryamishaho abarwayi, aho byose biriho abantu, bamaze guterwa inshinge ku maboko.

Ikigo nderabuzima cyateraniyeho abantu b'ingeri zose, harimo abaturage, abaganga, abapolisi n'abasirikare, bari gusobanurirwa ku ngingo zitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga babiri ndetse n'umurwayi umwe uryamye ku gatanda gashasheho ishuka y'icyatsi, ku meza hateretseho mudasobwa n'urupapuro.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi n'agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, afite icyuma ari gukoresha hari ibyo afungura. Ni bamwe mu bantu bafitiye igihugu akamaro.

Icyumba cyo kwa muganga gifite imiryango ibiri ifunguye ndetse n'undi umwe ufunze, hanze hicaye abagore bafite abana batoya.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, aho bikoreshwa n'umuntu wabyigiye kugira ngo bivure abarwayi cyangwa se byifashishwe neza, bitange umusaruro.

Icyumba cyo kwa muganga, harimo umugabo w'umurwayi, aho hari umuganga, uri kumutera urushinge, yambaye udupfukantoki, kugira ngo atagira indwara amutera.

Abaganga b'abagabo bari mu cyumba kimwe bambaye imyenda y'akazi ndetse n'udupfukantoki, barishimye bafite akanyamuneza kuko akazi kabo bagakora neza nkuko bagahawe.

Inzu yo kwa muganga, hanze hari intebe yicayeho abagore benshi bafite abana bato, bamwe bari kubonsa, hari kandi kizimyamwoto, yifashishwa mu kuzimya, ahabaye inkongi y'umuriro.

Icyumba cyo kwa muganga, harimo agatanda karyamyeho umurwayi umaze kwibaruka. Bamuryamishijeho umwana we utwikirije ibishura by'umuhondo, ndetse n'igitenge.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge, ahetse umwana, afite ishakoshi mu kaboko kamwe, akandi gafashe undi mwana mutoya, bari kwerekeza ku nzu isize irangi ry'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga, cyicayemo umugore wambaye ibitenge, yazanye akana gato kukavuza mu gutwi, aho umuganga yifashishije ibikoresho ari kurebamo.

Icyapa cyanditseho ko hehe n'igwingira, turi mu cyumweru cyahariwe ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana, aho birinda malariya, bakagira isuku, bakipimisha inda inshuro umunani, n'ibindi bitandukanye.

Umugore ufite ibisuko wambaye agapira ka oranje ateruye umwana mu ntoki, afite n'isahani ari kugenda amugaburira indyo yuzuye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda gishashe neza ndetse n'imashini bifashisha bareba indwara y'umurwayi haryamyeho umugore umaze kubyara.

Ikigo cy'amashuri gifite ibyumba bigiye bitandukanye, hanze mu kibuga harimo abanyeshuri bambaye impuzankano zisa bari kumwe n'umwarimu wabo ubafasha buri munsi.

Icyumba gisize irangi ry'umuhondo hicayemo abana batoya bo mu mashuri y'inshuke aho hari amasahani ateretse imbere yabo bari kurya hamwe n'ubigisha.

Icyumba cyiza gisize irangi ry'umweru, hari amarido y'ikigina n'intebe nziza, hagaze umugore wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro, hari abanyamakuru bari kumufata amajwi.

icyumba gisize irangi ry'umweru, ibirahure bikaba bifunguye hicayemo abantu bambaye imyenda yo mu ibara ry'umweru, aho hahagaze umugabo uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Icyapa gishushanyijeho umutwe w'umuntu, aho bakubwira ngo isuzumishe umenye urugero rw'umuhangayiko wawe, unyuze ku rubuga rwabo.

Abantu biganjemo igitsina gore, bambaye udupfukamunwa tw'umweru n'ubururu, aho bari gufata ifoto y'urwibutso ndetse bafite n'icyapa imbere yabo.

Inzu nziza ya konoshi, isize irangi ry'umuhondo n'ikigina, hanze hari kizimyamwoto yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, haparitse kandi imbangukiragutabara.

Icyumba kirimo amarido y'umutuku irangi ry'umweru, hicayemo abantu bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ikake, aho buri wese imbere ye hari ameza ateretseho igitabo, ndetse n'icupa ry'amazi.

Icyumba kiriho imitako itandukanye, hahagazemo umugabo wambaye umupira w'ubururu, imbere ye hari indangururamajwi ebyiri, ari kuvuga kubigendanye n'ubuzima.

Umugore wicaye ku gatebe k'urubaho, yifubitse agasharupe, afite ihungabana, yicaranye n'umukobwa wambaye ipantaro, uri kumuganiriza ngo atiyahura.

Mu muhanda w'igitaka haba ivumbi ryinshi, hepfo yawo hari abantu benshi cyane bari mu isoko, aho bafite ibintu binyuranye.

Icyumba kiza kandi kigari kirimo amatara abonesha neza, bacuruza ibintu by'ubwoko butandukanye aho uza ukabaza ibyo wifuza, harimo kandi mudasobwa.

Inzu ya konoshi isize amarange y'umweru, aho bahagurishiriza imiti y'amatungo n'ibikoresho byo mu bworozi. Ubashaka wababahamagara kuri nimero zeru karindwi umunani karindwi, gatanu gatatu, gatandatu, zeru, zeru, zeru.

Icyumba kiza kirimo farumasi, utu etajeri turimo imiti igiye itandukanye, aho iyo wayandikiwe na muganga uza ukayigura ikakuvura neza.

Rayani farumasi ikaba ari ahantu wakura imiti indwara yose waba ufite, wahamagara kuri zeru karindwi umunani umunani gatanu gatatu cumi na rimwe mirongo ine na kane

Icyumba kirimo farumasi aho bafite imiti y'ubwoko bwose, hahagazemo umuntu uyitanga, ushobora kwishyura ukoresheje kode ya momopeyi.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru n'ijipo irimo utudomo tw'umweru n'umukara, ahagaze muri farumasi ahatangirwa imiti y'ubwoko butandukanye bitewe ndwara.

Inzu ya konoshi, aho ikoreramo farumasi, yitwa Ntwari. Umushaka wahamagara, telefone zero karindwi icyenda kabiri gatanu zeru zeru gatanu kane kabiri.

Icyumba cyiza kirimo purafo, amatara abonesha neza, ku bikuta hasize irange ry'umweru, hasi harimo amakaro, bacururizamo ibijyanye n'imiti y'abarwayi.

Inzu isize irangi ry'umuhondo aho ari ivuriro gakondo, bavurisha ibimera aho wabahamagara kuri nimero zeru karindwi, umunani umunani gatanu icyenda, zeru icyenda zeru kabiri.

Abagabo babiri bafite amazina meza, aho bagiye kuganira ku nsanganyamatsiko yo gushishikariza urubyiruko kwitabira serivisi zo mu cyumba cy'urubyiruko.

lmbuga irimo abantu b'urubyiruko ,yaba abakobwa ndetse n'abahungu, aho bihurije hamwe mu gikorwa cyo kurwanya sida ,hari kandi umuhanzi ,waje kubasusurutsa mu bigendanye n'ibihangano.

Abana b'abanyeshuri benshi cyane, bafite icyapa kivuga ngo wiceceka, rwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hirya hari amashuri.

Icyumba gisize irangi ry'umweru gifite inzugi ziriho ikake, hicayemo abantu b'urubyiruko bambaye imyenda isa, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi n'amakaye.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, afite na ekuteri, inyuma ye hari icyapa cyanditseho ngo ''rubyiruko koresha agakingirizo urinde ubuzima bwawe.''

Abana bari mu kigero k'imyaka umunani na cumi n'itatu, bahagaze hamwe bafata ifoto y'urwibutso aho bafite icyapa cy'umweru imbere yabo, bahagaze kandi imbere y'ishuri bigamo.

Umuforomo wambaye imyenda y'akazi agapfukamunwa ndetse n'ingofero, yicaye mucyumba kirimo ibikarito byinshi ndetse n'ameza ateretseho uducupa turimo imiti.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye hari igitanda kiryamyeho umurwayi ucometse ibyuma byinshi ndetse n'umuganga uri kumwitaho ngo akire.

Inzu yo kwa muganga, ifite imiryango myinshi, hanze hari abaganga bambaye imyenda y'akazi, umugore uhetse umwana ndetse n'undi mugabo wambaye umupira w'umukara, bari gufata ifoto.

Icyumba cyo kwa muganga hicayemo umuforomokazi ndetse n'abagore babiri umwe uteruye umwana aho baje gufata imiti. Ni byiza kwivuza utararemba kuko bituma ukira vuba.

Icyapa cyanditseho ikigo nderabuzima cya Nyagatare, aho hari ibikorwa byo gusuzuma no ugufasha abafite ubwandu bw'agakoko gatera sida.

Amazu abiri ari mu ibara ry'ubururu, aho hanze hateye intebe z'urubaho, zicayeho abantu benshi, hari kandi ubusitani busa neza.

Inzu igaragara neza isize amarangi y'ubururu ndetse n'amabati ahenze, aho hicaye abantu baje gushaka serivisi zijyanye n'ubuzima, nk'uko hariho icyapa kigira kiti gira ubuzima.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi, hari igitanda kiryamyeho umuntu uri gufashwa n'umuforomokazi.

Icyumba gikorerwamo n'umujyanama w'ubuzima aho hari abagore benshi bafite abana bari mu kigero k'imyaka itatu n'itanu babazanye ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze.

Inyubako iri mumabara y'ubururu n'umweru, hanze hateraniye abantu barimo abagore n'abagabo, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Inzu nziza cyane kandi nini, isize irange ry'ubururu, hari kwinjiramo abantu b'ingeri zose. Hanze hari umurima uhinzemo ndetse n'icyapa kiyobora abagenzi.